Amarerero ni bimwe mu bintu byashyizwemo imbaraga na Leta y'u Rwanda kugira ngo abana be kujya birirwa bazerera batoya, ahubwo bagende bagire ahantu bisangwa n'abafite ikibazo cy'imirire mibi bakurikira.

Kera kera abanyeshuri bakiga hari hariho kompanyi yitwaga edisiyo bakame yagiraga imigani ndetse ikandika ku bitabo by'ikinyarwanda n'inkuru kugira ngo zifashe abana mu myigire yabo ya buri munsi.

Abo ni abanyeshuri bavuye ku ishuri biga mu kigo mu mashuri yisumbuye yo muri Nyagatare.

Iki ni igishushanyo kiri kwerekana inyubako runaka iri kwigwaho, aho umunyeshuri wagishushanyije ashobora kuba yiga muri segonderi cyangwa se muri kaminuza murakoze.